Urwego rw'igihugu rw'umutekano uzwi nka daso， aho rwicaye muri sare bambaye imyenda impuzankano y'icyatsi， ndetse n'inkweto z'umukara， aho bari mu nama bari kumva， bari kubagira inama ndetse bari gutanga ni'ibitekerezo.

Umusirikare uri muri sale ufashe mikoro, ari gutanga ikiganiro ari kumwe n'abandi bagabo bane harimo umwe w'umupolisi ndetse n'umwe ukora muri ribu cyangwa se ikigo cy'ubugenzacyaha gikorera mu Rwanda, n'abandi bagabo babiri bambaye amakoti ya kaki, ndetse muri sale harimo ibifata amajwi cyangwa se sawundi purufu bibiri.

Urwego rw'igihugu rw'umutekano ruzwi nka daso, aho bari mu myitozo cyangwa se mu myiyerekano y'ibyo bize, bari kwereka abaturage cyangwa se abandi bayobozi batandukanye mu ibara ry'icyatsi.

Umupolisi uri mu kazi. Uhagaze mu muhanda hagati wa kaburimbo. Inyuma hari moto zitwaye abagenzi, ndetse n'imodoka zabantu ku giti cyabo na bisi, itwara abantu rusange.

Umuhanda cyangwa se kaburimbo ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi. Ibiti bitari birebire cyane bitari na bigufi, ndetse ku ruhande hari icyuma gifotora imodoka zarengeje umuvuduko kizwi nka sofiya.

Abagabo barindwi bambaye amapantaro harimo abambaye amashati abandi bambaye ama tisheti, bambaye amapingu bari kuzira ibyaha bakoze bagiye gufungwa bagiye kuburanishwa.

Ihuriro ry'abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo, aho bari kuganira ku kibazo runaka, umwe afashe mikoro ari gutanga igitekerezo, imbere yabo hari amamashini, hateretse n'amazi yo kunywa abandi bari kuganira.

Abantu bane cyangwa se abayobozi bane harimo abagore batatu ndetse n'umugabo umwe, harimo umugore wambaye imyenda y'umukara, imbere yabo hateretse amazi, ingofero ya gisirikare ndetse na mikoro aho bayoboye inama, imbere yabo hari inteko y'abaturage.

Abantu bagiye batandukanye bari muri sare cyangwa se aho abantu bahurira bitewe n'igikorwa runaka kigiye kuhabera. Bigaragara ko bari baje mu nama imbere ya buri muntu hagiye hateretse amazi y'inyange ndetse na ajenda, hari n'ufite mudasobwa imbere.

Inteko nini y'abaturage benshi benshi bagiye batandukanye, baturutse mu bice bitandukanye bari mu nama, aho bategereje umuyobozi cyangwa se akaba ari kubabwira. Inyuma y'aho hari abari hejuru ku biti, ndetse hari n'inyubako iri mu ruziga isakajwe amabati y'umukara ifite n'amadirishya manini.

Inteko y'abaturage benshi bagiye batandukanye, bambaye inkweto z'umuhondo abenshi, abandi bafite ibitenge, aho bicaye bari mu nama bari mu biti, aho bategereje umuyobozi ngo ababwire icyo baje kwigaho.

Inama cyangwa se ibiganiro biri gutangwa na polisi, ribu cyangwa se ikigo cy'ubugenzacyaha mu rwanda ndetse n'abasirikare n'abandi bayobozi batandukanye, imbere yabo hari abaturage bicaye mu ntebe bari kumva impanuro cyangwa se inama zirimo gutangwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye.

Aakabati k'igiti karimo: Igiseke, inkoko bikaba bigaragaza umuco nyarwanda w'ahakera. Ikaba ari ingoro abantu basura bashaka kwiga umuco Nyarwanda.

Abaturage higanjemo abagore bambaye udupfukamunwa bakenyeye n'ibitenge ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari mu muganda, bari gukubura, ndetse hari n'abagabo bafite kupakupa baari mu mucaca bari gukata ibyatsi .

Ubwoko butandukanye bw'inkono y'itabi igezweho, hari iy'umweru ndetse n'iz'umukara zifite imiheha y'umweru, aho zakoreshwaga cyane mu Rwanda n'abasaza cyangwa abakecuru, bagashyiramo itabi ry'igikamba bakanywa bari gutumura.

Ingobyi cyangwa se igikoresho cyakoreshwaga n'abakera mu Rwanda ndetse n'ubu gikoreshwa hakeya, aho batwara umurwayi bakamushyiramo bamujyanye kwa muganga, kugira ngo abashe kumera neza. Iyi irimo umurwayi aryamye mu ngobyi, bayiteretse hasi.

Agaseke cyangwa se agasero kifashishwaga mu muco nyarwanda kakorwaga bakaboshye mu ndodo ndetse n'ibyatsi aho bakarikagamo ibintu by'ibinyampeke harimo: impungure, amajeri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri ubu kaba gakorwa bari kwibuka nk'amateka yo mu Rwanda.

Umugabo uri mu muhanda w'igitaka yambaye ibirenge, yambaye ipantaro, yikoreye umuvure aho inka zinywera amazi cyangwa se zishokera , ndetse umuvure akaba wifashishwa bari no gukora urwagwa cyangwa se inzoga zo mu bitoki, aho bakandagiramo n'ibirenge cyangwa se bagakoresha intoki bari kwenga.

Abagore ndetse n'abakobwa bari kubyina, bambaye inshabure, bambaye amayugi, ndetse nta nkweto bambaye. Iruhande hari abakarasa bagiye batandukanye, imbere yabo hari ingoma bafite imirishyo, bari gukoma ingoma, kandi baririmba.

Intore zigera muri enye ziri guhamiriza, zambaye amayogi ziri kubyinira hasi zambaye ibirenge, bafashe icumu ndetse n'ingabo. Bambaye n'umugara bari imbere y'inzu y'umwami yabagamo mu gikari.

Ibikoresho byo mu muco nyarwanda byifashishwaga n'abakera ndetse n'ubu bikaba bigikoreshwa n'ubu, harimo umuvure bifashishaga bari kwenga inzoga cyangwa se urwagwa, hakaba ari ingobyi bifashishaga bari gutwara abarwayi kwa muganga, hakaba ari isekuru n'umuhini bakoreshaga bari gusegura imyumbati cyangwa se isombe, ndetse n'igisabo bakoreshaga bari gucunda amata kugira ngo babone amavuta.

Intore ihagaze ahirengeye igaragaza umuco nyarwanda harimo umugara, icumu, ndetse n'ingabo bifashisha birinda mu muco nyarwanda.

Igisabo kijishe mu nzu cyakoreshwaga mu muco nyarwanda bacunda amata bagakoramo amavuta ari ayo kurya cyangwa se n'ayo kwisiga byose mu muco nyarwanda ubu kikaba gikora nk'umutako.

Ababyinnyi cyangwa se intore, bafashe icumu mu ntoki ndetse n'ingabo mu ntoki, bambaye umugara bakenyeye ibitambaro, bambaye n'udupira tw'umweru aho bari kubyina bari guhamiriza.

Umwana wambaye uniforume cyangwa se impuzankano ya kaki ndetse ari gukoma ingoma. Afite imirishyo ndetse n'ingoma zo mu bwoko butandukanye enye. Hari abandi bana bari ku ruhande bambaye iniforume cyangwa se impuzankano.

Isuka y'umujyojyo iri hanze, hanze y'inzu inzu ifite urugi rw'ubururu ndetse hanze y'inzu ku gikuta, ku gice kigana hasi cyagize imidite cyangwa se ubukonje bwataka inzu.

Abakaraza batanu harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe wambaye imikenyero n'imyitero ndetse n'amashati ajya kuba icyatsi abo bagabo. Umugore yambaye isengeri yikindirije igitenge ndetse bari gukoma ingoma inyuma yabo hari inzu nyarwanda yakundaga guturwamo n'aba kera cyangwa se abami.

Inyambo cyangwa se inka z'amahembe manini cyane zo mu muco nyarwanda, aho zororwaga n'aba kera, ubu zikaba zikoreshwa bari kwibuka umuco nyarwanda.

Ishoka cyangwa se indyabiti cyangwa se imparabiti ifite amazina menshi aho yifashishwa bari kwasa inkwi cyangwa se bari gutsinda ibiti by'ishyamba cyangwa se bari gushaka inkwi.

Intore ziri guhamiriza cyane zifite icumu mu ntoki ndetse n'ingabo, bakwise umugara hejuru ndetse imwe isa n'iyasimbutse bambaye n'amayogi, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibirunga byinshi n'ibirunga ndetse n'ibicu biri hejuru.

Inyambo cyangwa se ubwoko bw'inka bugira amahembe maremare, akenshi ziboneka mu Rwanda, aho abana cyangwa se abanyeshuri bambaye iniforume cyangwa se impuzankano bari baje gusura, hari n'umutahira cyangwa se umushumba, ubasobanurira iby'inka z'inyambo.

Inzu ya kinyarwanda yubakishijwe ibyatsi hose mu mpande inasakajwe ibyatsi, hanze hari abagabo babiri bafashe inkoni bambaye n'imikenyero bari gukina igisoro, iruhande hari abandi bagabo benshi bagiye batandukanye bambaye imikenyero y'umweru, ndetse n'andi bambaye imyenda isanzwe.

Abakaraza ndetse n'intore, abakaraza bari gukoma ingoma, harimo umukaraza wambaye ingofero zikunze kwambarwa n'abasaza. Intore iri guhamiriza yambaye amayogi, ndetse afashe icumu mu ntoki n'umugara. Hari n'umugore wambaye umukenyero ari gukoma ingoma, abandi bari gucurira n'abandi baririmba.

Ibibindi bibiri bigerekeranye bikozwe mu ibumba byifashishwaga mbere hataraza iterambere mu uRwanda, bakaba barabyifashishaga bari guteka ibyo kurya, ubu bikaba bitagikoreshwa.

igishushanyo cyangwa se ifoto ishushanyijeho igaragaza umuco nyarwanda aho bagaragaza umugore wambaye ibitenge ndetse hari ingoma hari n'abana n'umwana umwe n'abagore batatu umwe yikoreye intara cyangwa se inkoko

Ubukwe cyangwa se, umuhango wo gusaba, aho umusore yambaye imyenda y'umukara, umukobwa akambara umukenyero, afashe ururabo mu ntoki ndetse umugabo yambaye, nk'abami ba kera aho yambaye imisatsi, yambarwaga n'abami ndetse n'ikamba.

Isahani y'umweru, iteretse ku mukeka, iriho ibishyimbo ndetse n'ibihaza, aho ari ibiryo bya kinyarwanda, abantu ba kera bakundaga kurya biryoshye cyane.

Intore iri kubyina ,iri guhamiriza yambaye umugara, ifashe icumu mu ntoki ,ndetse n'ingabo ikaba ifite abacuranzi babiri, umwe afashe gitari ari gucuranga undi arayambaye ari gucurira imbere ye hari mikoro.

Igiseke cyangwa se agasero aho kari mu muco nyarwanda kakoreshwaga cyane n'abakera, kabonekaga ari uko bakaboshye mu byatsi, aho kifashishwa bari kubikamo ibinyampeke harimo: impungure, amasaka ,n'ibishyimbo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuhungu cyangwa se umusore wambaye umupira w'imbeho y'umweru ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi, aho afashe iningiri ari gucuranga, iningiri akaba ari kimwe mu bikoresho byo mu Rwanda bifashishaga bari gukora umuzika bacuranga abandi baririmba.

Umutemeri munini aho wifashishwa bari gupfundikira agasero cyangwa se agaseke. Bikaba byifashishwa mu muco nyarwanda, aho byakoreshwaga babikamo ibinyampeke cyangwa se ibishyimbo, amajeri, impungure. Ni byinshi bigiye bitandukanye.

Ibicuma bitatu aho byakoreshwaga bari kubikamo inzoga, cyangwa se bakanyweramo. Aho biba bibajwe mu biti bigiye bitandukanye. Akenshi babinyweragamo bakoresheje umuheha.

Inkono ya kinyarwanda cyangwa se ikibindi gishyashya aho bagikora bagikoze mu ibumba, aho aba kera cyangwa se mu muco nyarwanda bagitekagamo ibiryo bidafite amavuta harimo ibirayi, ibijumba, ndetse n'ibindiryo bijya bitandukanye.

Umugore wambaye ibirenge uhetse umwana ari kuboha igisero aho igisero cyifashishwa mu muco nyarwanda bakibikamo ibiryo bitandukanye harimo ibishyimbo impungure ndetse n'amasaka n'ibindi bitandukanye

Inkoko cyangwa se intara， aho yifashishwa bari kugosora ibishyimbo， amasaka， ibigori n'ibindi bitandukanye， ikaba yarakoreshwaga mu muco nyarwanda bari kuyiriraho cyangwa se bari kugosora.

Inzu ya kinyarwanda cyangwa se inzu umwami yabagamo, ikikijwe n'urupangu cyangwa se uruzitiro rw'imigano, mu muryango urafunguye nk'imbere harimo uducaca cyangwa se umucaca, inyuma y'inzu hari ibiti byinshi ndetse birebire.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga aho hari akamashini bifashisha bari gupima umuriro cyangwa se bari gupima ikindi gikoresho cya gikoreshwa ikoranabuhanga aho bagikoresha bari kureba ko cyinjiramo umuriro.

Inzu y'amakaro iriho purize cyangwag se aho bacomekera, harimo imashini ifotora impapuro, aho bashyiramo icyo bagiye gufotora, bakagifotora kigasohokera hasi. Hari n'aho bacisha impapuro.

Abagore bicaye ahantu hari ubwatsi, busa n'ubwumye inyuma yabo hari ikibaya kinini kirimo ibiti, bigiye bitandukanye, imbere yabo hari inyubako ishakakajwe amabati y'umweru, hejuru mu mpande hasi, naho hari amabati y'umweru ikaba yuzuyemo ibiti byinshi, bisize irangi ry'umukara rigaragara ko araho ihunikiro ry'ibigori, bashyimo kugira ngo byere.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye harimo ishyiga rya kijyambere cyangwa se rondereza, harimo amashyiga abiri y'amakara ndetse hari icupa rya gaze ndetse n'aho batekera.

Inyubako isakajwe amabati atukura ni igorofa irageretse, aho hari icyapa kigaragaza ko ari ingoro y'ubutabera ya Musanze, imbere yayo hari ibendera cyangwa se idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Kiliziya cyangwa se aho abagaturika basengera, hari inyubako nziza yukishijwe amatafari ahiye, afite amadirishya manini ndetse afite umusaraba, igishushanyo cy'umusaraba, ku ruhande hakikijwe insinga z'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Agasoko cyangwa se isoko ririmo ibisima nta bacuruzi barimo cyangwa se abaguzi harimo ibisima bacururizaho ndetse ikikijwe n'ibyuma, mu mpande risakajwe amabati atukura.

Urusengero runini cyangwa se kiliziya runini cyane, rwubakishijwe amatafari ahiye, ndetse imbere hari igishushanyo cyangwa se ikibumbano cy'umubyeyi Bikiramariya, aho iyo nzu cyangwa se urusengero rufite umusaraba hejuru ku gasongero.

Umuhanda wa kaburimbo uriho borudire ndetse hari itara rinini ry'umweru, hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibyuma bisize amarangi atandukanye, imbere hari inzu nayo yubakishijwe amatafari ahiye.

Rigori cyangwa se inzira y'amazi, iruhande hari ibyapa byamamaza. Hari icyamamaza aho ikigo nderabuzima cya kinigi kiri ndetse hari n'ikindi kiriho abagabo bagiye batandukanye, imbere yabo hari imitaka ya emutiyene ndetse n'inyubako z'ubucuruzi ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda w'itaka ahariho harimo, sitarabare cyangwa se ibimashini, bikora imihanda, bashaka kugirango umuhanda uringanire, cyangwa se bashyiremo kaburimbo, umuhanda ube inzira, nyabagendwa, aho hazajya hacamo ibinyabiziga, bitandukanye, ntakumirizi.

Inyubako nziza igeretse rimwe, ifite amadirishya mu mpande ane, abiri hasi n'abiri hejuru. Isakajwe amabati atukura, iruhande hari indi nyubako zigiye zitandukanye. Hazengurukijwe n'igipangu gifite ibyuma mu mpande, ndetse n'amatafari ahiye.

Ikiliziya cyangwa se inzu abakatolike cyangwa se abagatulika basengeramo, yubakishijwe amatafari ahiye. Ifite inkingi ziteye irangi, ifite amabati y'umutuku, ndetse ku gasongero hejuru hari amadirishya abiri, ndetse hejuru hakaba hari umusaraba.

Umuhanda wa kaburimbo mugari imbere hari undi muhanda w'igitaka, iruhande hari umucaca werekeza ku nyubako nini cyane isakajwe amabati atukura, ifite amadirishya manini ndetse n'inzu nini yubatse mu kizeru ndetse hejuru hageretseho akandi kazu.

Iniverisite y'u Rwanda cyangwa se iniverisite yigisha iby'ubuhinzi. Hari indabo, akayira aho amazi aca hasakaye, hakaba ari amashuri cyangwa se ibiro bisa byubatse bigeretse inshuro ebyiri, zikaba ari inkingi ebyiri zikora hejuru.

Umucaca wumye harimo inzu yubakishijwe amabuye imbere yayo hari ingoma. Iyo nzu ntago ituwemo isakajwe amabati asa n'ashaje, inyuma hari ibiti by'intusi birebire.

Igipangu cyubakishejwe amatafari ahiye cyangwa se munyu, hejuru yacyo hari ibyatsi byakuriyeyo, hakaba hari n'icyapa cyamamaza idini ry'abahamya ba Yehova

Ibyatsi harimo n'igiti cy'intusi bikikijwe na borudire n'agahanda k'igitaka kerekeza ku ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, ndetse rinasakaye neza aho imbere yaho hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu irimo umurima hagati, ifite amadirishya abiri ku ruhande, ndetse n'umuryango. Isakajwe amategura, iruhande hari ipoto rijyana insinga z'amashanyarazi. Hirya y'aho hari ibigori byinshi bitarera.

Imbuga y'itaka ndetse harimo inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, amadirishya manini cyane ndetse n'inzugi by'umweru bisize irangi ry'umweru. Isakaje amabati atukura.

Ifoto nziza igaragaza amashuri ndetse n'ibibaya n'imisozi bagaragaza ubwiza nyaburanga, berekana umuhanda, ikibuga cy'umupira gishushanyijemo imirongo, ndetse n'imihanda n'umunara uri hirya y'amashuri bigaragara ko hari n'umudugudu utuyemo abantu.

Inteko rusange y'abaturage cyangwa se inama y'abaturage, aho umugore wambaye ikanzu y'igitenge afashe ijambo afashe mikoro ari gutanga igitekerezo iruhande hari umugabo wambaye ikote n'ishati ndetse n'ingofero ategereje ko nawe bamuha ijambo agatanga igitekerezo ku ngingo runaka.

Inteko rusange y'abaturage iteraniye hamwe, higanjemo abagore kurusha abagabo, bigaragara ko hari umugabo ubari imbere uri kubakoresha inama, bateraniye ku kigo cy'amashuri, hari ishuri rimwe ndetse inyuma hari imisozi.

Abamotari ndetse na moto ziri mu bwoko bwa sipiro, aho izi moto akenshi zidakoresha esansi zikoreshwa na batiri bacagenga, hari abamotari benshi batandukanye, bategereje abagenzi ko baza bakabatwara.

Abana bavuye ku ishuri baherekejwe n'ababyeyi babo umwe ahetse igikapu ndetse na afite navarize imbere yabo hari amamodoka cyangwa se amabisi manini y'umweru atwara abantu muri rusange.

Umu motari cyangwa se umuntu utwara moto, moto y'umutuku iri mu bwoko bwa moto zigezweho, aho idakoresha risansi ahubwo bashyiramo bateri. Ndetse hari n'imodoka zirimo abantu, hakaba hari n'abandi bantu bariku kugenda n'amaguru.

Imodoka iri gusohoka muri gare, imodoka itwara abantu muri rusange, imodoka nini cyane iri mu bwoko bwa yutongo harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abambaye amajire bari kuyobora imodoka harimo n'umugore uri mu muhanda ndetse n'abambaye udupfukamunwa, n'abafite imizigo yabo ndetse abenshi biganjemo abagenzi bagiye gutega imodoka bagiye mu bice bitandukanye.

Abanyonzi benshi bagiye batandukanye harimo: abambaye amajire, harimo n'abambaye amasarubeti n'utujire twa MTN bari mu muhanda. Imbere yabo harira amamodoka hari n'ibiti byinshi, bategereje ko haza abagenzi bakabatwara bakabona amafaranga.

Bisi cyangwa se kwasiteri iri mu muhanda wa kaburimbo y'umweru ifite ibirango bya jaritaransipoti nta bagenzi barimo.

Abagenzi batandukanye, baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, harimo abagore n'abagabo harimo abahetse ibikapu. Inyuma yabo hari bisi iri mu bwoko bwa kebisi(kbc), itwara abantu muri rusange. Bagiye gutega baje ahantu hatandukanye.

Abanyonzi benshi benshi bagiye batandukanye, imbere yabo hari inzu y'ubucuruzi nini cyane y'igorofa igeretse, bigaragara ko hari gare, irimo imodoka ya kwasiteri cyangwa se bisi iri mu bwoko bwa stela itwaye abagenzi.

Bisi cyangwa se imodoka nini zitwara abantu muri rusange, aho abagenzi baza bafite amakarita y'urugendo, bagakoza ku mashini iri mu modoka, bagakomeza bitewe n'aho bagiye amafaranga akava ku ikarita.

Gare cyangwa se aho imodoka ziparika harimo amabisi atwara abantu muri rusange agiye atandukanye, afite amabare y'umuhondo n'umweru ndetse iruhande hari inyubako nini ifite igorofa rigeretse kabiri, ndetse hari n'iy'ubucuruzi, harimo n'abantu benshi bagiye batandukanye.

Gare cyangwa se aho imodoka zihurira, hari umuhanda wa kaburimbo, hari amamodoka menshi, harimo amabisi atwara abantu muri rusange agatwara abantu benshi, hari imodoka z'abantu ku giti cyabo, hari imisozi, hari n'amazu ndetse n'iminara n'amapoto ajyana insinga z'amashanyarazi.

Kkinyabiziga cyangwa se imodoka izwi ku izina rya hoho, aho itwara imizigo, igatwara imizigo myinshi, ikayitwarira icyarimwe, iri mw'i ibara ry'umutuku, ikaba igira amapine umunani y'inyuma n'andi mapine abiri y'imbere.

Sitasiyo aho imodoka zinyweshereza lisansi. Ariko aha ni aho imodoka bazicaginga zikoresha amashanyarazi, aho haparitse bisi nini ebyiri zitwara abantu muri rusange, aho baje kuzicaginga zikoresha amabatiri mugihe cyo gukoresha lisance cyangwa se mazutu.

Gare cyangwa se imodoka ziparika, harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo amatagisi, amabisi manini cyangwa se Keyibiyese, hari abagenzi harimo n'abazungu batonze umurongo bategereje kwinjira mu modoka ngo ibatware aho bajya.

Umuhanda uriho icyapa cyamamaza ndetse ukikijwe n'ibiti n'amapoto, uparitsemo imodoka z'umuhondo zijyana abana ku ishuri, ndetse nyuma y'izo modoka hari amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati atukura.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibyatsi byumye ndetse n'ibiti bitari byinshi cyane, harimo imodoka y'ikamyo itwara contineri irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho biba byambukiranya biva mu mahanga biza mu gihugu cyangwa biva mu gihugu bijya hanze.

Amagare atatu atwawe n'abanyonzi harimo rimwe ritwaye imifuka itatu, uritwaye yambaye kamambiri n'ipantaro ndetse n'agatisheti k'umutuku, afite umuntu uri kumusunikira kuko wenda ari ku musozi atashobora kurisunika, iruhande hari ibiti by'intusi byinshi cyane.

Abagabo batatu umwe yambaye ikoti abandi bambaye amashati, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara bari muri bisi itwara abantu muri rusange cyangwa se kibiyesi, aho harimo intebe nziza cyane zigiye zitandukanye ziri mu mabara atandukanye hejuru hakaba harimo aho gufata, aho abagenzi bagenda bahagaze bamwe na bamwe bagafata hejuru.

Imodoka iri mu bwoko bwa hoho y'umutuku nini iparitse mu muhanda hagati muri kaburimbo hari icyapa kigaragaza ko imodoka yapfuye iri gukorwa inyuma yayo hari indi hoho iturutse inyuma.

Ubwoko bwa bisi nini cyane iriri mu mabara yi'cyatsi ndetse n'umweru aho iparitse mumuhanda wa kaburimbo inyuma hari inzu nini iri ifite amabati y'ubururu cyangwa se n'uruganda hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye

Ubwoko bwa moto bugezweho, aho bugenda bukoresheje amapine atatu abiri inyuma ndetse n'irindi rimwe imbere, rikaba ritwara imizigo myinshi, aha ryari riri muri kaburimbo hari igipangu, ndetse iruhande hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'amazu.

Bisi nini itwara abantu benshi muri rusange iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hari akandi kamodoka gatoya, ndetse inyuma hari amapoto atwaye amashanyarazi hari n'ibiti, hakaba hari n'ibipangu ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Bisi cyangwa se kebisi itwara abantu rusange itwara abantu benshi cyane, iri mu muhanda wa kaburimbo. Harimo umushoferi wambaye agakomo harimo n'umugore wambaye igitenge, bari mu umuhanda bari kwerekeza iyo bajya.

Igare rigezweho rinini cyane, ritwara imizigo myinshi. Aho ku igare hariho ingata ndetse n'ibitukuru cyangwa se ibisebo binini biri ku igare. Hari umugabo uri iruhande, imbere yaryo hari inzu y'ubucuruzi.

Umukobwa uri mu kibuga ari kwirukanka. Ari mu masiganwa aho basiganwa birukanka, umukino uzwi nka marato. Ari ku ari ari kumwe n'abagabo ndetse n'abasore bambaye imyenda itandukanye, mu mabara atandukanye, hari imihondo ndetse n'imituku, aho ari kwirukanka yabasize.

Abakinnyi ba tenisi harimo ubigisha cyangwa se umutoza wabo, bambaye ingofero y'umukara y'umukara tisheti y'umukara ndetse n'ikabutura n'inkweto, hari abakinnyi abagaragara ni umwe wambaye agapira k'ubururu, ndetse n'agakabutura k'umutuku. Hari n'abandi babiri bari hirya bari gukina na we, uwambaye agapira k'ubururu, ndetse n'uwambaye agapira k'umweru bari gukina.

Umukecuru wambaye inkweto zifunze z'umweru ndetse n'imyenda y'umukara, ipantaro y'umukara na tisheti y'umukara, afite imvi ,yambaye isaha, afashe agakinisho bakinisha bari gukina tenisi ari mu kibuga.

Abakinnyi bari gukina umukino bakoresha bifashijwe amaboko uzwi nka volebolo, harimo umwe wambaye jezi y'umuhondo wasimbutse yashyize amaboko hejuru ndetse n'uwambaye isengeri na tisheti wakubise umupira n'amaboko.

Umukinnyi wa voreboru cyangwa se umukino ukinishwa intoki, yambaye jeze y'ubururu, isengeri, mo imbere harimo agapira k'umukara, ndetse afite n'imisatsi ya direde. Iruhande hari abafana benshi bicaye mu ntebe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uriho abantu benshi cyane baje gufana amagare. Umukino w'amagare aho ukorerwa mu Rwanda akeshi bawita turu di Rwanda, aho bazenguruka mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye, abaturage bakaba baje guhagarara ku muhanda bari gufana ibihugu bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'abantu benshi, baje kureba cyangwa se gushungera cyangwa se gufana irushanwa ry'amagare y'abantu bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye.

Umugore wambaye jeze, ikabutura y'ubururu ndetse n'agatisheti karimo umuhondo ndetse n'ubururu, afashe agapaniye cyangwa se ako bakinisha tenisi, yambaye isaha, yambaye na linete cyangwa se amataratara.

Umugabo w'umuzungu wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, yambaye inkweto ndetse n'amasogisi y'umweru, afashe ako bifashisha bari gukina tenisi, ari mu kibuga gisa umutuku, iruhande rwe hari icyapa cya Visiti Rwanda, bari kwamamaza.

Abagabo babiri bari gukina tenisi, umwe yambaye ipantaro n'agapira k'icyatsi n'ingofero, undi yambaye ikabutura n'inkweto n'amasogisi y'umweru na tisheti y'umweru, ingofero y'umweru ari gukina tenisi, ndetse inyuma hari icyapa cyamamaza Wodi Tenisi Kigali.

Umusore uri mu kibuga cya tennis ,wambaye ikabutura ijya kuba ubururu ,ndetse n'agapira n'inkweto z'umweru n'amasogisi ,akaba afashe igikoresho cyifashishwa bari gukina tennis.

Abakaraza benshi bari gukoma ingoma. Inyuma yabo hari ibyapa byamamaza, hariho icya kanari price ndetse n'ibindi byapa bigiye bitandukanye. Inyuma yabo hari Kigali Arena cyangwa se sitade bakinaho imikino igiye itandukanye. Ndetse munsi hari ibyapa byamamaza, hariho kanari price ndetse n'ikindi cyamamaza Umujyi wa Kigali.

Abakinnyi bane bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka vole bolo. Babiri bambaye imyeru bigaragara ko bari mu ikipe imwe, ndetse n'abandi babiri bambaye amajezi y'umutuku, ndetse hakaba hari n'abari gufana.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye ,bambaye imyambaro itandukanye ,bigaragara ko baje mu gufana umupira ,cyangwa se baje kwamamaza bishimye bafite n'imyambaro igaragaza ikipe baje gufana.

Irushanwa ry'amagare cyangwa se Tour du Rwanda, aho abanyonzi bagiye batandukanye batwara amagare bakazenguruka igihugu cy'u Rwanda. Aha harimo abambaye imyenda yamamaza gusura u Rwanda cyangwa se visiti Rwanda.

Abakobwa babiri bari mu kibuga cya vole bambaye imyenda y'icyatsi, ikabutura ndetse n'isengeri, umwe yambaye nimero kabiri undi yambaye cumi na gatanu, bari gukina vole mu kibuga kidafite abafana. Abafana ntabwo bagaragara.

Inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda w'itaka ,mu muhanda harimo itiyo rigaragara rishobora kwangirika, ukikijwe n'imiyenzi ndetse n'inzu ebyiri zigara eshatu zigaragara harimo ebyiri zifite amabati y'umweru ndetse n'imwe ifite irangi ritukura risize mu mpande.

umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo migari y'umweru; aho abanyamaguru bambukira; imodoka zigahagarara kugira ngo batambuke.

Akayira k'igitaka gakikijwe n'utwatsi ku ruhande ndetse urundi ruhande hariho, amapine y'imodoka yashaje imbere hari kuva, akazuba ka mugitondo, hari inzu yubakishijwe, amatafari ahiye.